Aba bantu uko ari babiri urabona ko babaye cyane, basa n'abafite agahinda ariko umwe arasa naho ari gukomeza undi amuhumuriza, amubwira ihangane ariko barababaye cyane.

Hano hateraniye abantu benshi batandukanye, urabona ko bafite icyabateranirije aha ngaha, hari umuntu uri kujya ubahereza ijambo, akaza akavuga urabona uyu umuntu wambaye umupira utukura ko ari we uri kujya ubahereza ijambo, ariko urabona ko yahaye uyu mumama mikorofone arimo kuvuga ufashe isakame.

Aha ni kwa muganga, kwa muganga urabona ko ari aho bavura indwara zijyanye no mu kanwa, ishinya, amenyo, hari umurwayi urabona ko aryamye ku gatanda, umuganga cyangwa se n'umunasi arimo kumuvura, ari kumuvura ndetse ni abanasi babiri bahari.

Uyu muryango ni umuryango ugaragara nk'uwishimye, urimo abana bato bakuru, aba mama n'abakuzeho, bari kumwe n'umumama mukuru w'umukecuru, ese biragaragara nkaho ko ari kumwe n'abuzukuru be, muri make urabona ko ari umuryango wishimye cyane rwose eee.

Uyu ni umumama urabona ko ari umuntu ugeze mu zabukuru ariko ari muri siporo, umumama umeze neza, ufite imvi mu mutwe rwose, ariko urabona ko ari muri siporo, ameze neza arishimye cyane, arishimye urabona ukuntu ameze ya siporo, siporo siporo ni ingenzi urabona ko arishimye ntiwamenya ko ari umukecuru, kandi urabona ko ageze mu zabukuru rwose.

Icyapa kiranga kigaragaza cyangwa se kivuga ubuzima bwiza bw'abanyarwanda. Herifu Pipo Rwanda, kiri mu cyapa cyangwa se byanditse cyandikisha ibara ry'umweru ariko kiri mu ishusho yubururu eee ishusho y'ubururu.

Uyu ni umurwayi uryamye ku gitanda, afite umu nase, cyangwa se umuganga uri kumwitaho ndetse hakaba n'umuntu umeze nk'umurwaza uri kumwe n'umurwayi. akaba umurwaza amufashe mu gahanga, ariko umurwayi urabona ko atorohewe nyine.

Iki ni igiti cy'umuravumba bakita umuraravumba kiravura, kivura inkorora, kivu ububabara nko mu mihogo, ukaba wahekenyaho akababi ahangaha kiravura igiti cy'umuravu, umuravuma ni igiti kivura indwara nyinshi cyane urabona ko kiri hano hagati y'amazu.